Ikigo cy'amashuri abanza, kiriho ahantu abanyeshuri barira umunyenga ,kandi iki kintu abantu ba abanyeshuri bariraho umunyega kikaba kiri mu mucaca.

Abanyeshuri bari muri laboratwari, abanyeshuri bakaba bari gukora paratike. Bose bakaba bari kureba murako karahure, kugira ngo barebe ibisubizo bya paratike bari gukora.

Abanyeshuri bari mu gikoni aho barikwiga guteka ,bakaba bambaye amataburiya y'umweru yifashishwa mu gikoni. Kugira ngo aho ayo mataburiya bambaye umwanda uhite ugaragara kugira ngo ntiyanduze ibyo bari guteka.

Abanyeshuri bashushanyije inzu kandi iyo inzu bakaba barayubatse, ni etaje bubatse bakoresheje ibikarito.

Abanyeshuri biga ubuzima aho bari gusuzuma imiti itandukanye, izabafasha mu buzima bwa buri munsi mu kazi kabo.

Hari abanyeshuri bari kwiga ku baza. Bakaba bari kubaza intebe bakoresheje iyanda. Kandi aba banyeshuri bakaba bari kubikora neza.

Umukobwa n'umuhungu biga muri segondere bakaba bari gukoresha mudasobwa mu mashuri yabo kugira ngo uburezi butere imbere, kandi kugira ngo ibyo biga babyumve neza.

Abanyeshuri bambaye ibisurubeti bicaye mu ishuri. Bakaba bicaye kuri pipitile. Bakaba bari gukora ikizamini. Ibi bigaragaza yuko uburezi bw'u rwanda buri gutera imbere, budaheza ,buri wese yemerewe kwiga, mu gihe adafite uburenganzira bwo kwanga ishuri.

Uruganda abarurimo bakaba bambaye imyenda, bakaba bari kwerekana ibyo bakora, hakaba hagaragara imashini bakoresha kugira ngo ibintu bakora bijye ku isoko bifite umwimerere wabyo.

Abanyeshuri bari muri laboratwari aho bari kwiga ba gutekinika ibintu bitandukanye. Bakaba bari no gutekinika kandi banandika.

Abagore n'abakobwa bariko kwiga kuboha. Barikwiga kuboha udusero n'uduseke, bakoresheje ibyatsi.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bakaba bicaye kuri pipitire, bakaba bari gukosora ibikopi bakoze kugira ngo bazabashe gutsinda neza amasomo yabo.

Abanyeshuri biga imyuga bakaba barimo gutekinika imodoka .Bakaba barimo kuyitekinika bambaye amakanzu, ibisurubeti bibarinda kuba bakwandura.

Iki ni ikigo cy'abanyeshuri ,aho abanyeshuri bari kwiga uburyo bwo gukora amazi, ndetse basana banakora imiyoboro y'amazi ,kandi hari ikigega bari kwifashisha muri paratiki yabo.

Abanyeshuri bari mu kizamini aho bari gukora paratike ,abagabo babiri bari kubacunga ngo barebe ko batari bukoperane ,abanyeshuri bambaye amataburiya y'ubururu.

Umunyeshuri uri kuvuga ubugeni yashushanyije ,akaba ari kubimurikira bagenzi be, anasobanura ibintu yashushanyije.